Inyubako nziza cyane iri ahantu heza. Inyuma yayo hari indi nyubako n'inyuma hirya kurundi ruhande hari indi. inyubako igaragara ko ari etaje, inyuma hateye ibyatsi byinshi imbere yayo hari kaburimbo.

Icyapa cyanditseho eperi satere dakuwere mirongo itatu metero amizero telefone zeru, karindwi, umunani, garatu, cumi na kabiri, icyenda, gatanu, umunani, icyenda, zeru, karindwi, umunani, umunani, umunani, mirongo itatu, gatandatu, gatanu, cumi na karindwi, inyuma y'icyapa hari ibiti aho giteye hari ibyatsi.

Icyapa cya mpandeshatu kigizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, imbere muri icyo cyapa harimo ikimenyetso cy'umukara kigaragaza ko uwo umuhanda imodoka iri kugendamo hirya yawo hashamikiyeho undi muhanda ujya mu kuboko kw'ibumoso, icyo cyapa gihagaze ahantu hateye pasiparume ndetse hirya y'izo pasiparume hari inzu zisize amarangi y'umweru.

Umumotari utwaye moto wambaye kasike, yambaye ikote ahantu nari gutwarira hasashe amabuye, hakurya y'umuhanda haparitse izindi moto hari n'inyubako, hari n'abandi bagenzi, hino ye inyuma hari ibara ry'umuhondo ku gikuta.